Abakobwa babiri bagaragara bari kubyina ariko umwe niwe ugaragara neza cyane babyina imbyino za kinyarwanda bambaye neza umwitero, babyina bateze nk'inyambo baseka bishimye.

Abakobwa beza cyane bari kubyina imbyino za gakondo baragaragara neza cyane bari kubyina imbyino nyarwanda barasa neza cyane babyinnye basetse bishimye.

Umuntu ugaragara afashe urusenga rutukura ari kurucomeka ahantu runaka, ahantu ari kurucomeka hafatiweho ibisinga byinshi byinshi cyane bigaragara ko ari ahantu umuriro insinga z'umuriro zihurira.

Umuntu wambaye imyenda y'akazi agaragara ko akora muri elegitirisiti ari ahantu hari insinga nyinshi cyane bigaragara ko hari ahantu umuriro uhurira hari insinga nyinshi cyane.

Ahantu hari amapoto y'amashanyarazi menshi ari mu murima w'ibishyimbo hirya hari amazu y'abantu bahatuye hari n'umuhanda ukomezamo hirya.

Umuntu uhagaze hejuru ku ipoto y'amashanyarazi, hari insinga eshatu, bigaragara ko arimo gukora umuriro, ahagaze ku rwego rwabugenewe bakoresha burira amapoto.

Ahantu hari amazu arenze imwe hari jaride itarafata neza, hari isakaje amabati y'umukara isize amarangi y'umweru ari iy'urwibutso runaka rwa jenoside.

Ahantu hari ibyapa bibiri, kimwe cyerekana kijya mu gicumbi, ikindi kivuga ko welcome to the Republic of Rwanda hari umukobwa uhahagaze ufite varizi urimo ugenda.

Inyubako ziri ahantu heza cyane hariho ibyapa bivuga ibyo bakora, hari intebe abakiriya bicayeho, hari kandagira ukarabe bigaragara ko bahakorera serivisi z'ubuzima arizo bari gutanga.

Ahantu hari icyapa kigaragaza ko hirya ukomeje ni muri Uganda, ugarutse hino ni mu Rwanda, hari agafureshi kagenda karabigaragaza, hari n'ikindi cyapa cyanditseho urugendo ruhire.

Ahantu hari inyubako nziza cyane bigaragara ko ari isoko rya kizungu bubatse ariko nta bantu barimo banza batararitaha ngo batangire kuricururizamo.

Ahantu hari abantu benshi cyane, hari abicaye, hari n'abandi bahagaze, imbere hari umubyeyi umwe ufite mikoro ari kuvuga, bigaragara ko abantu bari gukemura ibibazo by'abaturage cyangwa bari gutanga ibibazo bafite ngo babibakemurire.

Icyapa cyo ku muhanda kigaragaza ko aho hantu bagomba guhagarara, kiri ahantu ku muhanda, hirya y'aho hari umuntu uri kugenda mu muhanda wo hakurya ibumoso azamuka, bigaragara ko hari ikirere cya nimugoroba se cya mu gitondo kuko haragaragara ko izuba ryazimye nyine, hasa nk'aho hagorobye.

Ahantu hakozwe umuhanda vuba, harimo imashini irimo igenda irahareshyeshya ihakora neza, ivana igitaka ahatareshya igishyira ahandi, ihasize neza kugira ngo hagende hareshya neza hose hamere neza.

Abantu bari hamwe, ni benshi cyane, bamwe bari kuririmba, abandi bari kubyina, abandi bari kugenda bakoma amashyi, habereye ikirori runaka, bahuriye hamwe, bari kwishima bose nk'umudugudu.

Ni ahantu hahuriye abantu benshi bamwe barahagaze abandi bicaye mu itente abandi bicaye hasi, hari n'abari gukoma amashyi hari n'amarangururamajwi, habaye ikirori runaka hari ibintu bari kwizihiza.

Abantu bamwe bari kubyina basa nk'ababyina kinyarwanda abandi bari gukoma amashyi, bisa nk'aho bari no kuririmba mu bigaragara rero habereye nk'ikirori runaka kuko hari abantu benshi batandukanye z'ingeri zose zitandukanye, hari ikirori bishimye bari kubyina mu bigaragara.

Abantu bahagaze hamwe batanu harimo umugore umwe n'abagabo batanu bane, harimo umupolisi umwe wambaye iniforume z'akazi, harimo umugabo umwe urimo kubereka ikintu runaka cyangwa uri kubasobanurira ikintu runaka, bisa nk'aho bari ahantu ku Murenge se cyangwa ku isoko, ahantu nyine hari ibikorwa remezo.

Ku kibuga cy'umupira abantu barahicaye bambaye ama jesi y'umuhondo bategereje ko ikipe yabo hagiramo unanirwa bakamusimbura, bicaye ari abasimbura.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, harimo abantu babiri, harimo igitsina gore n'umugabo umwe, uwo mugore yambaye ipantaro y'umukara umupira w'umutuku wa nimero icumi und yambaye umuhondo, umugore afashe umupira arasa nk'aho agiye gutera ishoti.

Ni kuri sitade harimo abakinnyi, amakipe abiri atandukanye, ikipe imwe yambaye umutuku iy'indi yambaye ubururu bwijimye barimo barakina ni ikipe y'abakobwa.

Abantu benshi cyane bicaye muri sitade, bari gukurikira umupira w'amaguru baje kureba kuri si, tade barimo barafana, bamwe bari kugenda baganira uko ikipe imeze mu kibuga, abandi bari gukurikira bari gufana cyane basakuza.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru barimo baragenda bagana mu kibuga, amakipe abiri atandukanye, imwe yambaye umuhondo, indi yambaye ubururu, bari kugenda bajya gutangira gukinira mu kibuga.

Abantu bahagaze kuri sitade runaka bigaragara ko ari ikipe imwe yambaye ibisa harimo abanyezamu, harimo abatoza, harimo n'abakinnyi bambaye imyenda y'ubururu n'amakabutura y'umukara n'amasogisi y'umweru.

Ni kuri sitade ahabera imipira y'amaguru, hari abakinnyi bahagaze mu kibuga bari gukina umupira, ikipe imwe yambaye ubururu indi kipe yambaye umuhondo, bari gukina umupira w'amaguru.

Abantu babiri bari mu nzira bari kugenda batera intambwe basa nkaho bari kugendana, hirya y'aho hari inzu nziza zisize amarangi y'ubururu n'umweru hariho n'icyapa kigaragara ko ari ivuriro.